Ibikoresho binini bibiri by'ibara ry'ubururu, bimeze nk'ibikoresho byo kuyungurura amazi, hamwe n'ikindi gikoresho gito cy'ubururu gifite imyanya y'imiyoboro n'ibipimo bitandukanye.

Abantu babiri bari mu gace ko mu cyaro, umwe yambaye ishati y'ubururu n'ijipo y'umuhondo, undi yambaye ishati ifite amabara y'ibiraka n'ijipo y'imirongo, bombi bafatanyije indobo y'icyatsi isa n'iyuzuye amazi kandi bari iruhande rw'impombo y'amazi.

Umuntu wikoreye ijerekani y'amazi avuye kuvoma yambaye imyenda y'amabara agiye atandukanye, inyuma ye hari undi muntu ugaragara neza cyane uhagaze hafi y'inyubako ifite igisenge gitukura.

Umwana wishimye cyane uri ku kumugezi afite ibidomoro bigera muri bitatu, bibiri by'umuhondo n'ikindi cy'ubururu, ateze intoki ku mugezi asa n'uri gukaraba, ari guseka afite umusatsi, yambaye imyenda y'amabara atandukanye.

Hano hari umugabo wambaye amataratara ari kugaburira umwana ucigatiwe n'umubyeyi wambaye tisheti y'umweru, uwo mugabo wambaye amataratara yambaye tisheti ya oranje, nako kana kambaye tisheti ya oranje.

Kwa muganga aho umuforomokazi yambaye umwenda w'ubwirinzi, burimo ingofero y'ubuvuzi ndetse na masike. Uyu mukozi ari kwitegereza monita yerekana ibipimo bifatika by'ubuzima bw'umurwayi.

Ku ivomo aho abaturage baza gufata amazi hahuriye abana batoya bajya kuba basore, ndabona bari kuvoma bategereje ko umwe yuzuza undi akurikireho, batondekanya ibijerekani bari ku murongo neza.

Urujya n'uruza rw'urubyiruko, aho bambaye imipira y'ama tisheti, yanditseho hora neza, bambaye ingofero z'imyeru, barishimye bari ku gipfunsi, bameze neza.

Umubyeyi wafashe umwana we akamujyana ku munyabuzima, aho umunyamuzima afasha uwo mwana akaba ari kumuywesha umuti, umubyeyi rwose biramunejeje kandi n'umunyabuzima, na we ameze nk'uwishimye kuko ari guhereza umwana umuti kugira ngo abeho neza.

Icyumba kiri kuberamo amahugurwa, hari abantu bicaye bahangayikishijwe n'ibibera imbere, hari umuyobozi uri imbere asa n'uwigisha atanga inyigisho kandi imbere hari ishusho igaragaza ibyo bintu bitandukanye arimo avuga.

Abakobwa babiri bari kuganira umwe wambaye ikanzu y'umukara harimo akeru gakeya, n'undi wambaye ikanzu y'umukara ufite imisatsi ndetse n'amaherena, abakobwa bafite umukobwa wambaye agakanzu k'ubururu afite agapupe ndetse imbere y'aho hariho n'icyo kurya.

Umwana wicaye ku ntebe y'ubururu, ufite umusemburo wo koza amenyo mu ntoki, uwo mwana yambaye umwenda w'icyatsi kibisi, ufite utudomo tw'umweru n'agakanzu k'umweru munsi.

Icyumba gifite intebe nyinshi ameza n'ibikoresho by'imyidagaduro, hari ibirahure binini bishyira urumuri karemano mu cyumba, hamwe n'ikirahure cy'ikirahure kinini kiri hejuru y'icyumba cyanditsemo ijambo welinesi.

Icyumba gikorerwamo ubushakashatsi kwa muganga, aho harimo ibyuma bitandukanye hagati haririmo icyuma kinini cya rutura cy'icyuma gisa n'igikoreshwa mu bikorwa bya laboratwari. Iruhande harimo imashini amashashi y'amatiyo n'ibikoresho bikorana na cyo icyo gikoresho.

Umwana mutoya ufite ubumuga ari mu igare rimufasha kugenda, arimo yerekeza ahantu ku nzu nziza ifite irangi ry'umweru, ibirahure byiza, hariho ikigega cy'amazi, aho hantu rero harimo undi mwana wambaye umwenda w'umuhondo impande y'indabyo.

Inzu nziza cyane igaragaza kwa muganga harimo abarwayi bategereje serivisi undi murwayi umwe bari kumufasha ni umuganga umwe n'undi muganga umuri inyuma inzu nziza cyane irimo indabyo ziteguye neza isaha parafo amakaro n'ibindi.

Ibitaro bya Nyarugenge byubatswe mu buryo bugezweho, inyubako nziza, imeze neza cyane, ifite ibice bya mbere bigaragara cyane ndetse n'ijuro rigaragaza ko ari ku manywa.

Icyumba kirimo ibikoresho byo kuvomera no gutunganya amazi hari tank ebyiri z'ubururu zanditseho decoratole wa rimwe na decoratole kabiri bivuze ko ari ibyuma byo gukuramo kororine mu mazi.

Icyumba cy'ibitaro giteguwe neza cyane, harimo ibitanda, ibitanda bitandukanye bitondetse ku murongo umwe, hari icyo cyumba harimo imashini, ibyuma bifasha abana gupima inkari, n'ibindi byinshi.

Umuntu wambaye ishati y'ifu y'ijuru hamwe n'ipantaro y'ubururu. Uyu muntu yicaye ku ntebe y'umweru, afite igipfunyika cy'ubukonje ku kuboko kw'ibumoso.

Uyu muntu ari mu myitozo ngororamubiri, mu kibaya cy'ibyatsi, uwo muntu yambaye imyenda y'imyitozo ngororamubiri irimo igishura kitagira amaboko n'amapantaro magufi, inyuma y'uyu muntu hari ikirere kigaragara neza hamwe n'inyubako imwe ishobora kuba ikigo cy'imyitozo ngororamubiri.

Kwa muganga aho umurwayi aryamye ku gitanda yasize akaguru mu byuma abaganga bane bari kumusuzuma bamwambitse ibyuma bibasha kuwureba ikibazo uwo muntu afitemo akaguru.

Agasahani karimo umutobe w'indimu ndetse n'indimi n'izindirimbo zitarezi zitakozwemo umutobe hari ibindi bintu nka aziteka yuzuyemo ubuki ishuhe y'igisate cya tangawizi n'amababi make y'mwenya hasi ku gikombe.

Ibimera bitandukanye by'ibyatsi batunganye bikavamo imiti ya kinyarwanda, harimo ibibabi bibisi biri ahantu h'igihuru n'ibindi.